Abana benshi ubona ko baje kwiga, bicaye ku mukeka, ndetse buri wese agiye afite igikombe, harimo aba afite udukombe tw'umuhondo ndetse bambaye amajipo y'umukara, hari n'abambaye amajipo y'ubururu.

Udukoresho tubiri tubiri dusa dukoreshwa bigisha abana b'inshuke kubara twibumbiye hamwe, harimo dufite amabara y'ubururu, umuhondo, umutuku, umukara, umweru ndetse n'icyatsi.

Abana bane ubona ko harimo abakobwa babiri n'abahungu babiri. Abahungu bambaye amashati afite ibara ry'ubururu, ikabutura zifite ibara ry'umweru ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru. Abakobwa bambaye amakanzu afite ibara ry'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara.

Udukoresho dukoreshwa bigisha abana mu mashuri abanza turundiye hamwe. Harimo udufite amabara y'umweru, umukara, umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Abanyeshuri babiri barimo umukobwa n'umuhungu. Umuhungu yambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara ndetse n'umukandara wumukara naho umukobwa yambaye ishati y'umweru afite ikaramu n'urupapuro mu ntoki

Abantu benshi bahuriye hamwe ubona ko harimo umugabo wambaye ingofero ya oranje ndetse n'amadarubindi iruhande rwe, hari umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu. Hirya ku ruhande rw'iburyo, hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo.

Abantu bahuriye hamwe ubona ko ari abanyeshuri, harimo abambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro y'umukara, hari abambaye udupira tw'icyatsi ndetse n'amapantaro y'umukara.

Abantu bari hamwe babona ko barimo barapima indwara, hari imeza iriho igitambaro cy'ibara ry'icyatsi iteretseho mudasobwa. Hari umwana w'umukobwa uhagaze wambaye inkweto z'umukara n'agashati k'umweru. Imbere ye hari undi muntu watunze agapima umuriro.

Abana ubona ko ari abanyeshuri, bambaye udupira tw'umweru ndetse n'amapantaro ya kacyi n'inkweto z'umukara, bafite icyapa cyanditseho kwibuka makumyabiri n'umunani, kwibuka twiyubaka.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, harimo abanyeshuri bambaye amapantaro ndetse n'amajipo ya kake, amashati y'umweru, hirya hari abandi bana bambaye imipira y'imihondo ndetse n'amapantaro n'amajipo y'ubururu.

Abantu benshi bari ku murongo ubona ko bagiye batandukanye. Imbere cyane hariho abantu bambaye imipira y'umuhondo. Ku ruhande rw'ibumoso hari umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hari n'abandi bantu bari ku murongo inyuma, bambaye amapantaro y'umukara n'udupira tw'ubururu.

Abana b'abanyeshuri babona ko bicaye hamwe. Harimo abambaye udupira tw'ubururu ndetse n'amapantaro ya kake. Harimo n'abambaye amashati y'imyeru ndetse na kake. Imbere hari umuhungu wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kacyi na karuvati ya kacye, ufite indangururamajwi.

Ishuri risize irangi ry'ibara ry'umuhondo, hari n'ikibaho inyuma, harimo abanyeshuri bambaye amashati y'umweru ndetse harimo abambaye amapantaro n'amajipo y'ubururu.

Abantu ubona ko ari abanyeshuri bambaye amajipo ya kake, imipira y'ubururu, imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro y'ibara ry'umukara, hirya hari umwana wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'inkweto z'umukara.

Abantu ubona ko bambaye amakanzu afite ibara ry'ubururu, uturongo tw'umweru tumanuye ndetse no ku ijosi hariho amabara y'umutuku, bamanitse ingofero zifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari umumama uteruye umwana mu gitambaro gifite ibara ry'umweru.

Abantu babona ko bicaye, bafite amakaramu n'udupapuro barimo kwandikaho. Hirya hari umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'agapira gafite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inyubako ubona ko igeretse rimwe isakaje amabati y'umutuku iteye irangi ry'ibara ry'umweru, iruhande rwaho hari ubusitani ndetse inzira ijyayo iriho amapave hirya hari n'igiti.